Gura ubwishingizi bw'impanuka zonona umubiri, butangwa na radiyanti yacu limitedi wirinde sinamenye, ndabonaho uri gupfuka akoresheje bande, nkabona n'undi urwaye igisebe.

Gutemberana, ubwishingizi buboka mu bihe, mu bihe by'akaga hariho ifoto y'umukobwa yicaye ku ivarisi na nimero za watsapu.

Ndabona imodoka zigiye zitandukanye, hari imodoka y'umukara ifite purake ikenda eyi ara hashi magana abiri na cumi na rimwe hari icyapa cyo kuzigama.

Aba ni abagabo batatu; umugabo umwe yambaye umupira wa rakosite w'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweki z'umukara zifite ibara ry'umweru hasi, umugabo wa kabiri yambaye ishati y'amaboko n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umutuku, umugabo wa gatatu yambaye umupira wa rakositi y'icyatsi n'ipantaro y'umukara n'isaha n'inkweto z'umukara zifite ibara ry'umweru. Hari n'imodoka.

Ndabona ku ntere y'umuriro w'amashanyarazi amasinga udutembo igurudu rya jibu firigo amata kagudu ijaye, igikombe, amazi.

Ni butike yo gucururiza irimo umugore ufite ijage, harimo indobo, ameza, ndetse n'icupa ry'amazi, n'ikayi ku ruhande, ndetse n'akaboko k'undi mukiriye uri inyuma yaho.

Adabona amafaranga y'afaransa, inote magana atanu, inote y'igihumbi, inote ya bitanu, inote y'ibihumbi icumi, ameza, ikofi.

Ndabona amafaranga y'ibiceri nkabona amafaranga y'inote y'ijana nkabona n'andi mafaranga inoti y’ ijana ariko akaba afite amabara adasa mubyukuri ntabwo ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda

Ndabona icyapa cya pacifike ndetse mu muryango w'iyo nzu harimo umumama urimo winjiramo w'umugore

Ndabona urukarabiro rusange, ndabona umugabo uhagaze mu muryango wambaye ijiri, ndabona isoko ricuruza ibikoresho bya eregitoroniki hariho icyapa kibyanditseho, nkabonaho banki ya Ekwiti, nkabonaho banki ya Beka.

Ibi ni ibiro harimo intebe ebyiri z' aho bakira abakiriya hari mudasobwa hari karaseri babikamo impapuro hakaba ikirahure hakaba hariyo umuryango.

Handitseho murakaza neza kampani y'u Rwanda y'ubwishingizi RTD, MUA, harimo imitako, intebe, ameza.

Yu apu ubwishingizi aho binjirira umuntu ufite aka amvilope, ururabyo, umugabo wambaye ingofero y'umutuku, ama esikariye abagabo babiri umwe afite amvilope yambaye ikoti ry'umukara.

Kuri iyi foto hagaragaraho umukobwa wari ukeneye igitamba amagambo yanditseho, izerera mu gutwara hariho n'igishushanyo cy'imodoka hakurya yaho hari imisozi.

Inzozi zo kuzatwara imodoka yawe ku nguzanyo twagufasha kubona inguzanyo amafaranga y'ideni kuri ekwiti kuri banke ya ekwiti.

Ndabona akazu k'umukozi wa emutiyeni ndabona yicayemo yicaye ku ntebe ya purasitike imbere yaho hari umwana hakaba n'umutaka.

Iyi ni inzu irimo abakozi ba emutiyeni hakaba harimo ikirangantego cya emutiyeni abakiriyakaba, harimo ndetse intebe na ameza.

Ndabona ni inzu ifite parikingi igipangu ,iyo nzu ikaba igeretse rimwe ,ikaba ifite amaveranda yo hasi no hejuru....

Hano hari icyumba cy'amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi muri kigali mu rwanda kikaba gifitemo igitanda, matera, amashuka kuvureri, hakaba harimo n'amarido.

Hano ku muhanda munini hano amadolari igihumbi nijana ku kwezi muri Kigali mu Rwanda, inzu igeretse ifite igipangu cy'umukara ifite n'amatara y'aho binjirira hari n'aho imodoka zi...

Hano hari inzu igurishwa miliyoni mirongo ikenda n'eshanu z'amanyarwanda, hari aho binjirira, ifite igipangu, urugi, hakaba hari indabyo, iri i Kanombe, i Kigali mu mujyi.

Iyi ni inzu iherereye Kibagabaga ikodeshwa amadorari ibihumbi bitatu ku kwezi, ikaba igeretse kabiri, ikaba irimo ibice bitatu, ikaba ifite jaride harimo indabyo, ikaba ifite ibyatsi

Inzu igurushwa iherereye KIgali-Kimironko igeretse inshuro ebyiri ifite ahantu ha parikingi ndetse hasi ifiteho veranda iteye amarangi y'umweru ku mpande hariho.

Kuri iyi ifoto hariho umwana uteruye agapupe, ejo heza, ubuzima bwiza, zigamira amasaziro yawe ukiri muto.

Ndabona umukiriya yagiye mu isoko rinini yagiye guhaha harimo; imbuto, amavuta, amasukari, ibintu bigiye bitandukanye afite n'akagare abitwaramo.